Aha ni mu murima, hari abagabo babiri, umugabo umwe, yambaye linete, yambaye ishati, irimo imirongo, undi mugabo nawe, yambaye ingofero mu mutwe, n'umupira w'ubururu.

Uyu mugabo ari kuvomerera intoryi kandi muri uyu murima, harimo insina imwe, uyu mugabo yambaye ingofero y'umutuku, yambaye n'agasengeri k'umutuku kandi ahetse n'ipombo.

Aka kabande karimo icyuzi bororeramo amafi, kandi icyo cyuzi harimo akazu, muri iki cyuzi harimo uduti duteyemo dutonze umurongo, iki cyuzi iruhande rwacyo hari ibyatsi.

Muri aka kabande harimo abantu batandatu: harimo umugabo umwe wunamye, hakabamo undi mugabo wambaye agapira k'umweru, hakabamwo umugore wambaye ipantaro y'ubururu kandi ni abagore babiri n'abagabo bane.

Aba bantu bari gusarura icyayi mumurima, harimo uwambaye ingofero itukura y'ubudodo, akaba harimo n'undi wambaye indi ngofero itukura isanzwe.

Iki cyumba kirimo utujerekani tw'umweru, hakaba harimo akajerekani kariho icyapa cy'umuhondo, gashushanyijeho inka, hakaba hari amacupa asa n'imyeru, afite imifuniko isa n'ubururu.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi uteyemo inanasi, harimo inanasi zimwe zitarera kandi uwo murima harimo n'inanasi imwe nini yeze, iyo nanasi irahegamye.

Aba bagore ni batanu bose bafite inanasi mu ntoki kandi harimo hamba agasengeri k'umweru. Hakaba hari n'uwambaye ibitenge bisa hose. Hakaba harimo n'uwambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo.

Uyu mugabo ahagaze mu murima ari kuvomerera uyu murima ni munini urimo imbuto nyinshi kandi uyu mugabo afite agasatsi gake ku mutwe, uyu mugabo yambaye umupira usa n'ipantaro.

Uyu mugabo ari mu murima ari kuhiramo amazi yambaye ingofero isa n'ubururu iriho akanru k'umweru imbere yambaye n'umupira usa n'umweru, ku ikora no ku maboko harasa n'ubururu n'ipantaro ye.

Ahangaha hari akabande, gahinzemo ibigori, imbere y'ibigori hari urutoki, iruhande rw'urutoki hari ishyamba, ruguru y'ishyamba, hari ahantu hatenguwe n'imvura, hirya y'ahatenguwe n'imvura, hari ahantu hahinze.

Izi ngurube ni eshatu zirikurira mu kiraro kandi izi ngurube harimo izambaye amaherena, izi ngurube ni iza kijyambere.

Aha ngaha hari inka ebyiri, izi nka ziri mu kiraro, inka imwe yambaye iherena, hari umugabo uri kuzihera ibyatsi hasi, uyu mugabo afite terefone mu ntoki, yambaye ishati yera.